Ivomero rusange, aho hari abaje kuvoma bitwaje ibyo batwariramo amazi bakaba ari abagore cyangwa se igitsina gore, aho hari uri kubavomera ndetse abandi bakaba bakoze umurongo bari kugenda bavoma.

Umugore cyangwa se umukobwa ufite umusatsi mukeya, wambaye umupira wiganjemo ibara ritukura ryerurutse ndetse n'ijipo ifite ibara ry'umukara, akaba ari kuvoma ku ivomera, akaba yateretseho ikivomesho amazi ari kujyamo.

Abanyabuzima benshi bahuriye hamwe aho bari mu mahugurwa cyangwa se ibindi bikorwa byabateranyije hamwe, bakaba bahagaze bari gukoma amashyi, bakaba bambaye amakanzu afite cyangwa se amataburiya afite ibara ry'ubururu bwerurutse.

Abantu benshi bahuriye mu cyumba runaka bari mu nama cyangwa se hari ibindi bikorwa byabahurije hamwe, aho harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hakaba hari amacupa y'amazi.

Ivomero rusange rikoreshwa bazamura banamanura kugira ngo amazi abashe kuba yamanuka aho hari abana bane baje kuvoma ayo mazi hakaba hari ikivomesho bari gushyiramo amazi.

Abantu benshi bahuriye mu nama aho harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hakaba hari ikiri kubafasha kubereka amashusho y'ibyo baribuvugaho ndetse hakaba hari n'ibikombe bayweramo icyayi.

Abantu benshi bahuriye mu nyubako runaka mu bikorwa birura biri kubahuza aho higanjemo igitsina gore aho hari abafite imisatsi miremire ndetse n'imigufi hakaba harimo n'aba ruhu rwera iruhande rwabo hakaba hari imeza irambitseho amacupa y'amazi.

Abantu bari gufata ifoto y'urwibutso aho mo hagati harimo ukorera inzego za polisi; iruhande kubamugaragiye hakaba hari abaturage harimo abagore ndetse n'abagabo.

Abantu benshi bahuriye mu nama cyangwa se mu bindi bikorwa, aho imbere yabo hari umugore wambaye umupira ufite ibara ry'umukara n'ikanzu ifite ibara ry'umweru, ari kugira ibyo abasangiza cyangwa se abagezaho, abandi bakaba bicaye bamuteze amatwi, bari no kumva ibyo ari kubabwira.

Inama cyangwa se ibindi bikorwa byahurije abantu hamwe, aho hari abantu bicaye ku gice cy'iburyo, imbere yabo hari amacupa y'amazi, imbere yabo hakaba hari umugore ufite indangururamajwi uri kugira ibyo abasangiza, ndetse n'ibirango byerekana ibyabahuje inyuma ye.

Abaganga bambaye bikwije hose ku buryo nta ndwara zabafata aho bari kugenda basuzuma cyangwa se bavura abaturage runaka aho hari abaganga babiri iruhande hari umuturage wicaye ameze nk'aho bari kumupima indwara runaka.

Ikinyabiziga cy'inziga ebyiri giparitse impande y'ikigo nderabuzima aho ikinyabiziga umuyobozi yambaye ingofero ndetse n'umupira ufite ibara ryiganje ry'ubururu akaba atwaye umugenzi iruhande hakaba hari ivuriro cyangwa se ikigo nderabuzima aho hari abaje kwivuza barimo imbere.

Ivuriro rigezweho rya kijyambere aho harimo mudasobwa zigenda zerekana uko abarwayi cyangwa se uko ibikorwa biri gukorwa hakaba hari n'ibitanda bigezweho n'ibindi bikoreshwa mu kuvura abarwayi.

Umugabo uri kwirukanka ameze nk'aho ari muri siporo, iruhande rwe hari imbuto nka karoti, amashu, pome ndetse n'izindi zo kurya.

Umugabo uri ahantu hari kugurishirizwa imiti gakondo, aho imbere ye hari amacupa arimo iyo miti ndetse hakaba hari n'umugore ukenyeye igitambaro mu mutwe cy'umweru, akaba ari kugurisha iyo miti.

Umugore w'imisatsi myinshi irekuye yambaye umwenda wiganjemo ibara ry'umweru afite igikapu ku kaboko akaba ari mu murima ari kugenda asoroma imboga.